Abari gusarura imyaka izwi cyane cyane nk'umuceri, higanjemo abagore bateze ibitambaro, ndetse kandi bari kubisarura ahantu babihinze mu kabande ko mu kibaya ahantu hacuramye cyane.

Abantu benshi bari mu kibaya bariho barahinga abandi baratera imyaka. Niyaka igizwe umuceri ndetse n'icyayi, harimo abagore, abakobwa ndetse n'abagabo.

Idepo y'imyaka yoherezwa ku bahinzi kugira ngo babashe kuba bayihinga, ndetse kandi bakaba bibafasha kongera umusaruro mu buhinzi bwabo. Ni depo y'ibikoresho ndetse n'imbuto ziri mu mifuka kugira ngo yoherezwe ijye guhingwa.